Uyu ni muntu uri guseka ukuri kwamamaza yambaye umupira w'umweru, afite ubwanwa ni imibiri yombi, afite telefone irimo irerekana ibyo arimo kwamamaza.

Telefone itwereka ukuntu Fabrice Hakuzimana akanyerezaho nimero makumyabiri na gatanu, zeru karindwi umunani, gatandatanu, umunani umunani, gatatu, akanyereza amafaranga igihumbi agiye kwishyura, ari kwemeza ko agiye gukurwaho amafaranga makumyabiri, bari kumubwira bati niyinjize umubare w'ibanga.